Aha ni mu kabari aho harimo inzoga zitandukanye, za sikoro za buralirwa ndetse n'amaji ku bantu batanywa inzoga zisembuye, akabari ka meze neza karasakariye nta kibazo kateza abakanyweramo.

Kabari irimo inzoga zose zishoboka, cyane cyane ibyuma tunywa twishimye, tugasangira n'imiryango, ndetse kabari yubatse neza irasakaye, n'abantu bashobora kubona aho bicara, ndetse n'uwashaka akazifata akazijyana mu rugo akazinywerayo.

Ni muri bare aho banywara inzoga, inzoga twese zidufitiye akamaro ku bazinweye mu rugero ruringaniye, inzoga abazicuruza tubaha amafaranga bakiteza imbere bakishyura amafaranga y'ishuri, bagatanga mitiweli bagakora ibindi bikorwa byose bya leta bakanasora neza.

Muri saro barogosha, barasuka, umuntu ushaka gusukisha ajyayo, basuka neza, batanga na serivise nziza, baradusuka, banatwogosha neza, natwe tukabishyura amafaranga, amafaranga biteza imbere.

Isako abakira bari gucuruza imyenda twambara, ibitenge by'abagore bari kubidodeshamo amakanzu ndetse bakanabikenyera. Bari gucuruzamo n'imisego biseguza ku buriri. Isoko ryubakiwe neza ku buryo abakiriya badashobora kunyagirwa ndetse n'abacuruzi na bo ntibanyagirwa.

Aha ni mu isoko ry'ubucuruzi, umu ajenti wa wa MTN ucuruza ama inite, akaduha ama inite duhamagaza tukamwishyura, bituma na we yiteza imbere kandi biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Aha ni mu isoko bacuruzamo imyenda, dore harimo amakote twambara tugasa neza, harimo n'inkweto nazo twambara tugasa neza, kandi izi nkweto ni nziza ku buryo bushoboka, harimo n'amapantaro y'ubwoko bwose meza twambara.

Hoteri yubatse neza, irasakaye ku buryo abayigana batabasha kunyagirwa, aho bajya kurira, kunywera, ndetse bakanararamo bishimye, bamaze kunywa no kurya, bishyura amafaranga ku mafaranga, ba nyirizo hoteri bayifashisha mu kwiteza imbere.

Yego ndabona hano atari muri butike, ahubwo aha hantu bacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, cyane ko muri kuhabonaho za telefone, za ekuteri n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu ikoranabuhanga. Aha nta bwo ari muri butike ahubwo bacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Butike aho bacuruzamo ibikoresho bitandukanye harimo: gaze dukoresha inini n'into, ndetse n'amasabune n'ibindi binyobwa byoroheje nk'amaji tubisanga muri iri duka, n'isoko ryubakiye neza.

Aha bacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga laptop na za purinta nibikoresho twifashisha mu gufotora turabyifashisha mu kwandika tunabikoresha turi bikamo amakuru yacu ya buri munsi y'akazi dukora.

Muri kabari aho abantu bujya kunywera inzoga, bakishima bagasabana n'imiryango yabo. Imbere yaho hariho umwagenti ucuruza amayinite, akabitsa akanabikurira amafaranga abantu bari aho hafi.

Kanitsi yakanikaga amatelefone yapfuye. Yakoreshaga urabona ni uburoso yakoreshaga ari kuyahanagura afite n'imigozi agacaginga. Natwe tumuha amafaranga akajya gushaka ibindi bikoresho.

Icupa ririmo ubwoko bw'ibitunguru, ibitunguru tubyifashisha mu guteka ibiryo. Ibiryo birimo ibitunguru birahumura, ababihinga na bo babijyana mu isoko bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Ubucuruzi bw'inzoga ,aho tubona amakesi n'inzoga yanditseho sikoro. Yayazanye ndetse n'abaturage baje kwihahira ayo makesi, ngo bacuruze babonemo amafaranga yo gukoresha mu mirimo yabo.

Aha ni mu kabari, imbere yaho hariho umwajenti wa MTN. Mu kabari bacuruzamo inzoga tunywa dusangira n'abavandimwe bacu, kandi aka kabari umuntu yajyamo akanararamo ni akabare keza turagakunda.

Isoko aho bacuruririza ibiribwa bitandukanye: amakaroni, amavuta y'ubwoko bwose. Kandi n'isoko ryubatse neza aho abakiriya ndetse n'abacuruzi badashobora kugerwaho n'imvura cyangwa ibicuruzwa ngo byangirike.

Ubusitani bwa hoteli ya virunga aho abantu bajya kwicaramo bagiye kurya no kunywa, dore bafite na puberi aho bamenamo imyanda iyo ariyo yose bavanye muri iyo hoteli, n'ubusitani bwiza bufite amahumbezi buri wese yakishimira kujyamo.

Hoteri yubakiye neza, ifite n'ubusitani bumeze neza, aho abantu bajya kwiyakirira mo nimiryango yabo, kandi bakirwa neza, kandi inubatse neza hamanitse n' ikirango imbere.

Akabari kubatse neza gasakariye garite n'icyapa imbere yaho abantu bajya kunywera ibizoga bakishimana n'imiryango yabo igiye kunwa inzoga bajyana amafaranga bishyura abapimiye bakiteza imbere.

Muri botike harimo: biswi, hakabamo isukari n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, byo muri botike ndetse n'ibibiriti dukoresha ducana imbabura, harimo na shikarete turya.

Izi ni hoteli zakira abashyitsi zikabacumbikira , zikabagaburira ibyo kurya byiza, biba bitetse neza kandi banacumbikira abantu bifuza kuraramo.

Muri Hoteli tujya kwiyakiriramo, iyo tugezemo dusanga hameze neza, ba twakira neza baratugaburira, baduha inzoga abashaka tunararamo, badufata neza n'abandi bose muze muraza, kureba musi.

Aha ni muri hoteri yubakiye neza, ifite na geti abantu binjiriramo ,ifite ni icyapa kiyobora abantu bagiyemo, ahantu abantu bajya kwiyakirira kurya, kunywa, ndetse bafitemo n'amacumbi, nk'uko bigaragara umuntu akavamo yishimye.

Iyi ni hoteri tujyamo kwishima tunwa inzoga turyamo n'ibiryo, tukajyanamo n'abavandimwe bacu tukishima. Muri hoteli tuboneramo ibyiza byinshi.

Aha ni muri hoteli yubatse neza ifite n'ibyapa biyiranga aho abantu bajya kwiyakirira n'imiryango yabo, ndetse bakoresherezamo n'ubukwe, iyo baje gukoresha ubwo bukwe babaha amafaranga bagakomeza gutera imbere.

Aha ni muri hoteri tujya kwiyakirira, iyo tugezemo turarya, turanywa, tukishima, twarangiza n'abashaka kuryama bararyama, baduha serivise nziza z'ubwoko bwose, bafite n'abakozi bita ku bantu.

Ku isoko aho bacuruza ibicuruzwa bitandukanye. Aho harimo inkweto twambara zifunze. ikindi kandi ni isoko ryubatse neza ku buryo abaguzi n'abagurisha batabasha kunyagirwa ngo bibagire nk'inkoko zo mu rugo

Isoko aho bacururiza ibiribwa bitandukanye, ibihaza, inanasi, ibiribwa bitandukanye, kuko ryubakiye neza kuburyo abaririmo badashobora kunyagirwa, kandi abajya kugurishirizamo imyaka babona amafaranga.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko baje kugura ibicuruzwa, isoko ryubakiye neza kugira ngo ibicuruzwa bitabasha kunyagirwa, ndetse abo bacuruzi ndetse n'abaguzi nabo ntibabashe kunyagirwa.

Isoko aho bacururizamo ibirayi; ni ibirayi byiza binini harimo abaguzi n' abagurisha, aho ubona ko hari umubare mwinshi, ibi birayi ni byiza yiza buri wese yifuza kubirya kuko bisa neza.

Mu isoko ry'imyenda aho abantu bajya kugura imyenda yo kwambara, ndetse n'isoko ryubakiye neza ku buryo abantu badashobora kunyagirwa, bagahaha neza bisanzuye bakishyura abacuruzi amafaranga yabo neza.

Kuko bahacururiza ibiribwa cyane cyane harimo ibitunguru tugura tukabirya, kugira ngo tubikarangishe bihumuze ibiryo turya mu buzima bwacu bwa buri munsi, n' isoko naryo ryubakiye neza harimo n' abakiriya baje kubihaha.

Isoko bacururizamo imbuto, ibinyomoro turya, ibipapayi nabyo turya, harimo n'amatunda na yo turya, ndetse n'amaronji, byose ni ibiribwa turya biturinda indwara, twabicuruza bakaduha amafaranga atuma twiteza imbere.

Ko bacururizamo za bibiliya ndetse bakanasana izangiritse, aho turi kubonamo abakiriya bagiye kuzikoresha, ndetse n'umukozi ukora izo bibiliya, bibiliya kuzikoresha ni byiza zituma tumenya ijambo ry'Imana.